Ibyuzi bibiri bororeramo amafi ,umwana yicaye hakuno bisa nkaho bamaze kuhahira ubwatsi .Hakurya hari ibiti ndetse n'imirima bahingamo ibyokurya.

Imisozi iriho amaterasi, amagare mu muhanda, amajerekani ateretse hasi, umuntu wicaye areba hakurya bisa nk'aho avuye kuzana amazi.

Iyo uhinze neza usarura neza, umusaruro kandi uhagije. Ibi ni ibigori biri ahantu ku bwanikiro, biragaragara ko ari muri koperative y'abahinzi.